Umunsi mpuzamahanga wahariwe abana, aho bahawe inniformu zanditseho UNICEF, uyu yari umunsi mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abana.

Umunsi wahariwe kwita ku buzima bw'abana, aho abana basuzumwa ibiro, bagasuzumwa uburebure bafite bagendeye ku myaka bafite, bakamenya niba umwana ari mu mirire mibi cyangwa se imirire myiza, bakabaha n'ibinini bivura inzoka.

Abanyabuzima barimo bapima kovide mu gihe cya kovide bakagupima ubushyuhe, umuntu yaba afite mbere y'uko winjira ahantu ugiye kwaka serivisi, haba kwa muganga gusenga cyangwa n'ahandi hose.

Umuganga urimo umurwayi urushinge ku rutugu, arimo amusuzuma uburwayi yaje kwivuza. Umuganga yambaye ga, arikingiye ku buryo niyo yamuvusha amaraso atabasha kuba yakwandura uburwayi ubwo ari bwo bwose.

UN World Food Program, iki ni ikigo gishinzwe kwita ku mibereho y'abaturage, hagamijwe kurebera hamwe intungamubiri ziba mu biryo, ibikungahaye kuri vitamine B, vitamine C, vitamine D ndetse n'izindi vitamine zose.

Amavomero abiri y'amazi, aho umwana arimo aravoma amazi yo kunywa mu gikombe, ni byiza ko tunywa amazi kandi n'aho tuvoma tukahagirira isuku.

Umugezi rusanga wahariwe abaturage, aya ni amazi meza asukuye yitabwaho kandi yashyizweho atangwa na leta muri buri mudugudu cyangwa se muri buri kagari, uyu mugezi rero ufasha abantu kubona amazi bakoresha mu rugo yaba mu masoko guteka ndetse no kuyanywa.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Mayange, ahari hateraniwe abanyabuzima baturutse mu ngeri zitandukanye, aho bari bishimiye ndetse bakiriye umuzungu wari waje kubasura.

Mu kigo cy'amashuri abana bakunda kwishimira cyane, gusa kuri iyi robine bakanywa amazi bagakaraba bakumva baranezerewe. Amazi ni isoko y'ubuzima tuyakunde tuyiteho kandi tuyagirire isuku.

Igikorwa cyo gufasha abana kuvoma, iyi robine isaba imbaraga zihambaye kugira umuntu abashe kuhavoma. Ni byiza ko mu gihe uhasanze abana barimo bavoma, ubafasha kugira ngo ubazamurire iki cyuma nabo babone amazi.

Amahugurwa yatanzwe n'umwe mu bakozi b'ikigo nderabuzima, arimo ahugura abaturage ku bijyanye n'uburyo bakoresha amazi meza, bakagira ubuzima buzira umuze, bakirinda malariya batema ibihuru bikikije ingo.

Muganga arimo arafasha umubyeyi guhereza umwana imiti. Guha umwana imiti uri umwe biragora, muganga arimo arafasha umubyeyi guha umwana imiti yo kunywa akoresheje agakombe.

Ahabereye inama yahuje abirabura ndetse n'abadamu b'abazungu, barimo baganira ku ngingo zitandukanye, bandika ibyo bari kwigaho ndetse bakaba bafite n'amacupa y'amazi barimo banywa.

Abanyabuzima bari kwita ku bana babaha igikoma, bakibahera ahantu mu irerero, harimo n'ushinzwe umutekano ku rwego rw'igihugu, na we afasha umunyabuzima guhereza abana igikoma.

Koza ibikoresho by'isuku urugero ibyo tubikamo amazi nk'indobo ni byiza cyane kandi ni ingirakamaro, ni byiza rero ko twoza ibikoresho tuvomeramo mbere yuko dushyiramo amazi tukabyogesha isabune yabugenewe.

Minisitiri w'ubuzima Dogita Sabin Nsanzimana, yagaragaje uburyo kanseri yo muri nyababyeyi ihitana abantu benshi cyane mu Rwanda, aho avuga ko magana atandatu b'abamama buri mwaka bitaba Imana kubera iyi kanseri yo muri nyababyeyi.

Ivomero rusange ry'abaturage aho buri wese aza akavoma ku buntu nta kiguzi nta mbogamizi, akaza akavoma amazi akajyana mu rugo, uyu ni umugezi cyangwa se ivomero rusange ryagenewe abaturage bo muri aka gace.

Inama yabereye ku kigo nderabuzima igamijwe kurebera hamwe uburyo abaturage b'abanyarwanda bagira ubuzima buzira umuze hagamijwe guteza imbere ndetse no kuzamura isuku mu baturage.

Umubyeyi waje kuvoma amazi mu ndobo ari kumwe n'umwana we umukikiye, amazi rero ni meza cyane ni isoko y'ubuzima kuko niyo dukesha kuba turiho, nta mazi nta buzima.

Umurwayi urimo aritabwaho n'abaganga babiri aho umwe arimo aramusuzuma mu kaboko, undi akaba amufashije ibyangombwa urugero nk'ifishi yo kwivurizaho.

Dogita Sabain Nsanzimana minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yagaragaje uburyo hakurwaho cyangwa hakagabanuka indwara ya kanseri yo muri nyababyeyi mu Rwanda, avuga ko magana atandatu babamama buri mwaka bapfa kubera iyi kanseri.

Ivomero rusange ariko risaba imbaraga, uramutse uri umuntu umwe kuhivomera biragoye cyane. Kuko bisaba ko umwe agusunikira akakururira icyuma cy'inyuma noneho nawe ukabona uko uvoma, iri ni ivomero rusange ry'amazi.

Uruhurirane rw'amavomero aho abanyeshuri baza bakavoma amazi bakoresha isuku mu kigo, gukoropa, koz'intebe ndetse n'andi masuku akorerwa mu kigo. Aha niho abanyeshuri baza bakavoma amazi, bakayajyana mu kigo.

Ikigo nderabuzima aho umwana yarwaye umubyeyi we akamujyana kwa muganga, akajya kumufatira imiti aha yari agiye kwinjira mu rusuzumiro.

Iki ni ikigereranyo kigaragaza imyaka itandukanye, uburyo abagore bagiye bagira uruhare mu miyoborere itandukanye cyangwa se mu nzego zitandukanye. Aho bigaragara ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari mirongo itanu na batanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda ari mirongo irindwi. Bibiri na makumyabiri ari mirongo irindwi na batandatu, bibiri na makumyabiri na rimwe ari mirongo irindwi n'icyenda.

Uyu ni umwana urimo unywa amazi kandi yishimye cyane anezerewe, nkuko tubizi twese rero amazi ni isoko y'ubuzima, amazi atariho natwe ubwacu ntitwaba turiho.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko mu kugira uruhare mu kurwanya indwara zandukira, hagamijwe kwirinda ndetse no gukumira ibyateza cyangwa ibikwirakwiza indwara zandukira.

Abanyeshuri banejejwe cyane n'ibiganiro bahawe bakaba bishimiye inama bahawe n'abajyanama b'ubuzima abana barishimye cyane ikigaragara bafite ubuzima bwiza baranezerewe .

Igikorwa cyo gusura umurwayi wari wavunitse akaguru yari yakoze impanuka cyakozwe n'abanyabuzima bari kureba uburyo imvune ye iri kugenda igabanuka n'uburyo ari kugenda akira uko bwije n'uko bucyeye .

Umwari urimo ugisha inama mukuru we umuruta cyangwa se umwisumbuyeho. Arimo amugisha inama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'ubuzima bwa buri munsi ko yakwitwara mu bandi nk'umwari w'umwangavu.

Iyi ni Clinic, aho abarwayi baza kwivuriza mu buryo bwa purivate, ni uburyo butari rusange aho uza ukivura bakagha imiti ugasubira mu rugo worohewe.

Uyu mugabo yicaye ku nzira, arimo arasaba abamugana abahatambuka icyo kurya, afite amazi mu ishashi arimo kunywa.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima ku bufatanye na RBC ndetse n'inzego z'umutekano, ahatangiwe amahugurwa atandukanye kuri santere do sante ya Kacyiru.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buguzi bw'amenyo wabaye mu kwezi kwa cumi ku itariki icumi yaba mu rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose hagamijwe kurebera hamwe uburyo amenyo yitabwaho n'uburyo isuku yo mu kanwa ari ingenzi.

Aha ni ku bitaro bikuru bya ruhengeri aha ni mu rusuzumiro hasuzumirwa abarwayi barwaye indwara zitandukanye kimwe nuko twahita ko ari muri eco graph

Uburyo bugezweho bwo gukura amenyo kwa muganga, aho iryinyo barirandujemo ipenzi ariko hakavamo amaraso menshi.

Ikigo gitanga ubumenyi ku bijyanye no gukura amenyo mu gihugu, aho hatangirwa ubumenyi ndetse n'amasomo y'uburyo bwo gukura amenyo bugezweho butari ubwa gakondo.

Aha ni kwa muganga aho basuzumira abarwayi, umurwayi araza akicara kuri iyi ntebe isa n'irambuye, noneho akicara ijosi akaryegamiza ku mutwe wiyi ntebe, noneho bakamuvura neza bitagoranye, cyane cyane iyo bari gusuzuma indwara zo mu kanwa.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa by'ikoranabuhanga mu gukura amenyo mu buryo bwa kijyambere bitandukanye n'uburyo bwa gakondo, ibi rero ni bimwe mu bikoresho bisuzuma ndetse bikabasha no gukura amenyo mu buryo bugezweho.

Gusuzumisha indwara zo mu kanwa, ni ingenzi cyane cyane ku bana bato bakunda kurwara indwara zitandukanye zo mu kanwa, urugero nk'ubugendakanwa, ururimi ndetse n'izindi ndwara zifata imyanya yo mu kanwa. Ni byiza kwisuzumisha hakiri kare ugahabwa ubutabazi n'ubufasha.

Umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, aho usuzumirwa amenyo yawe ko ari mazima, ugaterwa inshinge zifasha amenyo gukomera ndetse ugashishikarizwa no gufata imiti ituma amenyo yuzuza ubuziranenge ndetse akanasa neza.

Uburyo gakondo bwo gukura amenyo ukoresheje urudodo, ufata urudodo rukomeye ukazirikira mu ryinyo, warangiza ugashikura iryinyo rikavamo neza.

Koza amenyo ni ingenzi cyane, kuko kugira isuku yo mu kanwa byongerera amenyo uburambe ndetse bigatuma amenyo asa neza kandi ukagira n'impumuro nziza mu kanwa. Ni byiza ko tugira isuku yo mu kanwa.

Uburyo gakondo bwo kwikura amenyo ukoresheje urudodo, mu gihe iryinyo urimo ukura ari iryinyo ry'imbere, ugashyiramo urudodo warangiza ugashikura, iryinyo ryawe rikavamo neza utarimbiye kujya kurikuza kwa muganga.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni ingenzi cyane kandi ni ingirakamaro. Ni byiza ko twisuzumisha nanone amenyo kugira ngo turebe ko nta burwayi cyangwa se ibyateza uburwayi, tukayakorera isuku dukoresha umuti wabugenewe w'amenyo.

Isuku y'amenyo ni ingenzi. Ahabereye igikorwa cyo kwita ku bana babahereza uburoso babatoza uburyo koza amenyo ari isoko y'ubuzima kandi bigakorwa buri munsi byibuze inshuro ebyiri ku munsi. Ni ingenzi tubikunde kandi tubikore neza.

Uburyo bugezweho bwo gukura amenyo, uri kwa muganga bitandukanye n'uburyo bwa gakondo, hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe, mu kwifashisha mu kuvura amenyo.

Uburyo bwo kwikura amenyo mu buryo gakondo ukoresheje urudodo, aho biba byoroshye cyane gukura iryinyo cyane cyane rimwe mu menyo y'imbere, ugashyiramo akadodo ukazirika warangiza ugashikura iryinyo ryawe rikavamo neza.

Umusaza urimo asobanurirwa uburyo arajya afata imiti ku munsi, agomba gukurikiza amabwiriza ya muganga, kugira ngo kandi iyo miti ibashe kumukiza.

Yoga siporo zigira umumaro cyane, mu itembera ry'amaraso mu mubiri zigatuma umuntu agorora ingingo, ni byiza cyane ko buri munsi ufata niyo yaba imota cumi n'iitanu buri muntu wese agakora yoga siporo kuko ni ingirakamaro mu buzima.

Uru ni urungano rw'abasheshe akanguhe, barimo baganirizwa uburyo bajya banywera imiti yaba iy'imivuduko cyangwa n'izindi ndwara zose z'abasheshe akanguhe bakayinywera ku gihe.

Umukecuru urimo kunywa imiti yandikiwe na muganga, ayinywa yiganyiriza ariko amaherezo arayinywa, afite ikirahure kirimo amazi ndetse n'imiti mu ntoki.

Umukecuru n'umusaza barimo kwibukiranya uburyo imiti bahawe na muganga iri bunyobwe, bagendeye ku mabwiriza ya muganga.

Umuganga urimo uramenyereza umurwayi kurambura akaboko ke neza kugira ngo abashe kunanura imitsi ndetse ananure n'ingingo.

Umuganga urimo arasunika umusaza mu kagare ufite uburwayi bwo kutabasha guhagarara cyangwa kugenda. Arimo aramujyana aho bafatira amafunguro.

Umuganga urimo usuzuma umurwayi umutima ndetse n'uburyo amaraso atembera mu mubiri, iki gipimo rero cyifashishwa mu gusuzuma ubwo burwayi, ni byiza ko buri muntu wese yisuzumisha, akareba uburyo umutima we uhagaze ndetse n'uburyo amaraso yiwe atembera mu mubiri.

Umunsi wahariwe gutanga amaraso, aho abaturage bamwe bagenda bagatanga amaraso bagatabara imbabare kwa muganga, aha ngaha habereye icyo gikorwa cyo gutanga amaraso, aho abakuruwaruje bari babyishimiye cyane.

Ibyishimo by'umuryango, ababyeyi ndetse n'abana, abapapa babiri n'abagore babiri ndetse n'umwana muto uri munsi y'imyaka cumi n'ibiri.

Umurwayi urimo urahabwa inama, na dogiteri, amuganiriza amwereka uko byifashe, anamusobanurira uburyo yajya yitwara, ndetse akanywa n'imiti neza.

Abahinzi bishimira uburyo imyaka yabo irimo yera, imeze neza cyane, harimo amasaka, ibigori, amashaza, ibishyimbo ndetse n'ibindi, turabona ko rero babyishimiye cyane, bishimira uburyo ikirere kimeze neza, akavura kabageraho, imyaka yabo igashisha ikamera neza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe abita ku buzima, aho bari bahuriye ku cyicaro barimo baganira ndetse bagirana amasezerano y'uburyo bazajya bita ku barwayi.

Aha ni muri sale, ahabereye inama yiganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore.

Minisitiri w'ubuzima arimo ashimira cyane abavuzi b'abihayimana bakorera mu bitaro bitandukanye, aho arimo abashimira umurava n'umuhate bafite mu kurokora ubuzima bwa benshi.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe gusuzuma uburwayi batandukanye, harimo uburwayi bw'umutima, uburwayi bw'umwijima, epatite, amadiyabete n'izindi ndwara zitandukanye.

Umunsi Mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete mu Rwanda, uyu munsi wabaye ku itariki cumi n'imwe kugera ku itariki ya cumi na zirindwi ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na kane. Uyu munsi wari umunsi Mpuzamahanga, aho bakoranyije abaturage babaganiriza uburyo diabete ari indwara mbi cyane bagomba kwirinda.

Iyi ni porogaramu yo kurwanya igwingira ry'abana kuva umwana bamutwite ndetse n'uburyo umwana agenda akura bakamwitaho akagira imibereho myiza atarimbiye kugwingira agakora neza.

Ikiganiro cyatanzwe ku itariki mirongo itatu z'ukwacuumi, kigamije gutanga amahugurwa ku ubutabazi bw'ibanze cya se bwihuse, cyatanzwe na dogita Eulade Rugengamanzi kuri Gaburiyeri akarabo posite.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'ibidukikije, uyu munsi wabaye ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Aho ababyeyi babyarira muri make aho bababyariza, inzu yubatse neza kandi yubakanye ubuhanga, haba imbere ndetse n'inyuma yitwa materinete.

Iki ni ikigo nderabuzima, turahabona hateye ibiti bimeze neza, hari jaride imeze neza, hari inyubako, garaje ndetse n'amavuriro ameze neza cyane, hari amashanyarazi, mbese hari iterambere.

Sare yaho abana bakinira imikino y'imyidagaduro haba gusimbuka umugozi kugendera ku magare gukinisha ibipupe, ndetse n'indi mikino ibafasha kwishima ndetse no kwisanzura bakamenyana n'abandi.

Aha ni aho umwana yari arimo asuzumirwa uburwayi, arimo yitabwaho na muganga. Ikindi kandi hari umurwaje, ariko umwana yararembye cyane. Ariko ikigaragara cyo ni uko umuganga amwitayeho, ari kumuha serivisi zihutirwa.

Ibitaro aho abarwayi basuzumirwa uburwayi, bagakorerwa cekapu z'umubiri mu gihe barimo bavurwa.

Ikigo cy'ubuhanga cyigisha ibijyanye no kuvura indwara z'ama infegisiyo yaba ku bantu ndetse n'inyamaswa, iki kigo giherereye muri Zambia yunivasiti ofu Zambia.

Aha ni kwa muganga, aho twakwita muri rabo, aho abaganga baza bagasuzumira ibizamini byatanzwe, bakabona ibisubizo byabyo binyuze mu ikoranabuhanga.

Aha ni kwa muganga kuri reception aho abarwayi baza bakicara bagategerereza kwinjira mu rusuzumero, hakaba hari imitako ndetse n'igishushanyo cy'amaso, uburyo ki amaso yozwamo n'uburyo ki bakura imyanda mu maso.

Aha ni mu bitaro aho umuganga arimo arasuzuma umumama urwaye, arimo no kumubaza niba arimo koroherwa, arimo aramuganiriza nk'uko nabyo ari ingenzi.

Ku bitaro bikuru ahabereye umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima bw'umugore, ndetse n'umwana, amutwite, amwonsa, ndetse anamubyara, hakaberamo gutanga amahugurwa atandukanye yo kwirinda, uburyo umubyeyi yakwirinda ntiyanduze umwana indwara zandura nka SIDA, umwijima n'izindi.

Ku kigo nderabuzima aho abarwayi baje kwivuza, bamwe bakicara hanze bakabanza kota akazuba, aha ngaha bicaye ni munsi y'igiti, ahari kugera akazuba gakeya cyane kadatwika cyane.

Ibitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda biherereye mu karere ka Huye, ibi bikaba ari ibitaro byakira abarwayi baturutse mu ngeri zitandukanye, ndetse bagatanga n'amahugurwa ku banyeshuri bari kwimenyereza umwuga w'ubuvuzi.

Ibitaro bikuru hari ibyumba bitandukanye harimo iby'aho basuzumira, aho bacumbikira abarwayi, amadushe, amatuwarete, aho kwinjirira n'aho gusohokera n'aho abarwayi baruhukira.

Abaganga banejejwe n'umwuga bakora, barimo basuzuma ibizamini byatanzwe n'abarwayi, baranezerewe bari konsantere barakora neza umurimo biyemeje.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe, giherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, umurenge wa Tabagwe, ikigo nderabuzima rero gitanga serivisi z'ubuzima ku baturage batuye mu karere ka Nyagatare, cyane cyane by'umwihariko abatuye mu nkengero z'umurenge wa Tabagwe ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Tabagwe.

Aha ni mu rusuzumiro hasuzumirwa uburwayi butandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, hakaba hasuzumirwa uburwayi bw'umutima, bahasuzumira abagore batwite, uburwayi bwo mu mara, igifu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, bahita muri ecography.

Aha ni ku bitaro bikuru, bishinzwe kwakira abarwayi baturutse ahantu hatandukanye. Hari kandi n'idarapo ry'u Rwanda rigaragaza uburyo ibitaro ari ibya leta y'u Rwanda.

Aha ni ku bitaro bikuru bivura indwara zo mu mutwe Indera mu karere ka Gasabo, aho abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe baza bakamara igihe bakisuzumisha, bakabaha imiti ibagabanyiriza uburibwe, ndetse n'ubukana bw'uburwayi.

Iyi ni one stop center, iherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Remera Rukoma. Aho abaturage batangirwa serivise z'ubuzima mu buryo bwihuse, mbere yuko bajya ku kigo nderabuzima, cyangwa ku bitaro bikuru.

Ibitanda bitandukanye by'aho abarwayi barwarira, bagakomeza kwitabwaho n'abaganga, iyo umurwayi amaze koroherwa, nibwo abasha kuba yasubira mu rugo, aha rero niho abarwayi baje kwa muganga bitabwaho bari bakaharyama.

Aho muganga arimo asuzumira abanyeshuri batandukanye uburwayi nk'umutima, umuvuduko ndetse n'ubundi burwayi butandura. Akoresheje iki gipimo bakwambika mu kaboko bakumva uburyo amaraso atembera mu mubiri.

Aho basuzumira abarwayi indwara zitandukanye, aho buri murwayi aza akicara muri iyi ntebe akegamira cyangwa se bakazamura intebe agasa n'uryamyeho, bakamusuzuma neza uburwayi yaba afite, yaba ubwo mu nda, umugongo, mu mpyiko n'ahandi hatandukanye.

Umurwayi urembye cyane urimo ukorerwa isuzumwa bareba uko uburwayi bwe buhagaze, bareba uburyo bamufasha ngo bamwongerere ubudahangarwa mu mubiri bagamije kumuvura ndetse no kumusuzuma uko umutima utera ndetse n'uko amaraso atembera mu mubiri.

Ni kuri farumasi icuruza rinete z'amaso, aho umuntu wese urwaye ikibazo cy'amaso aza akishyura; haba ku bakuru ndetse no ku bana barengeje imyaka cumi n'ibiri, buri wese araza akishyura maze bakamuha rinete zijyanye n'uburwayi bw'amaso arwaye.

Iyi ni clinike ikorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Nyarutarama, akaba ari clinike itanga serivisi z'ubuzima ku baturage bayigana yaba abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda. Ikaba ikomeye cyane, igira laboratwari basuzuma indwara zitandukanye, bakora surgery bagasuzuma na internal medicine.

Iyi ni Isange one stop center iherereye mu karere ka huye, mu kagari ka Butare, aho batanze amahugurwa atandukanye ku barwayi baza ku yivuriza, abafite uburwayi bwo kutabona ndetse n'abandi batandukanye.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda cyera itaravugururwa, iyi kaminuza ikaba yaravuguruwe, ikaba isigaye isa neza cyane ugereranyije n'uburyo uku nguku irimo gusa.

Kwa muganga aho basuzumira uburwayi bw'amaso, aho bayogereza ku bafite uburwayi butandukanye bw'amaso. Aha ngaha ni mu nyubako mu rusuzumiro.

Aha ni ku kigo nderabuzima nk'uko muhabona hari iterambere harubakitse neza, hari ibiti bizana amahumbezi, cyangwa se akayaga ku barwayi baharwariye, ndetse bigatuma ikirere cyaho gihora gisa neza cyane.

Kwisuzumisha uko ubuzima bwacu buhagaze ni ingenzi cyane, uyu mugabo yari arimo yaje kwisuzumisha n'umukozi wa RBC uburwayi butandukanye nk'umutima umuvuduko n'izindi ndwara zitandura.

Ku bitaro by'umwami Fayisari abaturage bari bagiye kugemurira abarwayi ifunguro rya saa sita, babikoranye umutima mwiza w'urukundo kandi imirimo bakora imana izayibahembera.

Ahabera inama cyangwa amahugurwa ku rwego rw'igihugu, aho buri wese yicara ndetse agafata na mayikororfone akabasha kuba yatanga ikibazo cyangwa se igitekerezo atarindiriye guhaguruka, yicaye mu byicaro bye.

Aha ni ku bitaro bikuru turahabona urujya n'uruza rw'imodoka zimwe zisohokamo izindi ziparitse, turahabona n'abarinzi cyangwa abacunga umutekano w'ibi bitaro.

Ku bitaro bikuru bya Ruhengeri mu karere ka Musanze, ahari uruhurirane rw'abantu benshi baje kwivuza ndetse hakaba hanegereye inzira igana ku isoko, aho abaturage bamwe baba bajyanye ibicuruzwa byabo ku isoko urugero nk'inyanya, amaronje n'ibindi.

Aha ni mu kibuga ubwo abakinnyi bari barimo gukina bakataje cyane, umwe nibwo ya yagize gutya anyerera kuri mugenzi we, biba ngombwa ko mugenzi we amwunganira akaguru yaravunitse akamugorora.

Uruhurirane rw'imbuto harimo: inanasi, amaronge, imineke, avokaga, amatunda, tugasangamo ubunyobwa, hakaba hari kandi n'imiti yanyuze mu nganda nk'imiti ya amogisisirine.

Ibikoresho ndetse n'imiti byifashishwa mu kuvura, haba ibisebe ku bantu bavunitse ndetse n'ibindi. Aha rero ni kwa muganga, ni ho ibi bikoresho wabisanga.

Icara ukore siporo unanure imitsi y'amaboko, imitsi y'amaguru. Uyu mugabo arimo arakora siporo ananura amaboko ndetse n'amaguru, yicaye ahantu hatuje mu bwatsi.

Iki gikoresho rero gihabwa umuntu wagize agisida, akaguru kakavunika cyangwa se kagacikamo, bakita tije, nicyo kimufasha kugenda bitagoranye cyane.

Siporo ni ingenzi, kwicara ukarambura akantu ukicaraho, ukunama, ugakora ku maguru yawe, ugakora siporo wunama uzamuka, wongera wunama uzamuka. Ni ingenzi cyane izi siporo kuzikora byibuze rimwe ku munsi.

Iyi ni imbago ikoreshwa n'abantu babana n'ubumuga, cyane cyane bwo mu kaguru, ikabafasha mu kugenda mu buryo butabagoye, ariyo bagenda bacumbagiriraho.

Amazi isoko y'ubuzima. Fata amazi uyakora mu ijage uyashyira mu kirahure, warangiza ukanywa cyangwa ukayakoresha ibindi.

Gukora siporo ni ingenzi cyane mu buzima, ugakora siporo, ukibanda no kunywa amazi ahagije kugira ngo umubiri ubashe gukora neza, ubashe no kugarura imbaraga watakaje, mu gihe urimo ukora siporo.

Igikoresho cyangwa se igare rigezweho, rifasha ababana n'ubumuga bwo kutagenda, bakicaramo ikabatwara ikabageza aho bashaka kujya, kandi mu buryo bwihuse.

Aho basuzumira uburwayi butandukanye nk'umugongo, impyiko ndetse n'ibikanu. Bagasuzuma bakareba ko umubiri wawe umeze neza, niba hari ikibazo ufite bakaguha ubufasha bw'ibanze.

Siporo, umuntu w'umugabo urimo arakora siporo, akaguru kamwe yagashinze akandi akarambika hasi, arimo arakora siporo zinanura amaguru ndetse n'imitsi. Amaraso agatembera neza mu mubiri.

Amoko y'imiti itandukanye, turahabona ibinini, inshinge ndetse n'umuti uvura amaso.

Umupapa ufite icupa ry'amazi, urimo uranywa amazi bigaragara ko yari ayafiye inyota cyane. Aya mazi ari mu icupa ry'ubururu kandi arasa neza cyane.

Kuvunika mu ivi ukikorera ka masaje bituma amagufa ndetse n'imitsi yakangaranye yongera gusubira mu gitereko, ku buryo wabasha kugenda utarimbiye cyangwa udategereje ubundi bufasha. Mu gihe uguye uba ugomba kugorora aho ukomeretse.

Gukora siporo ni byiza cyane kandi ni ingenzi, kora siporo unywe n'amazi ahagije, ibi bidufasha kuba umubiri wakora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri kandi ntugire n'ikibazo cyo kubura amazi ahagije mu mubiri.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma uburwayi, cyane cyane uburyo umutima utera. Nk'iki giki tubona, bakikwambika mu kaboko bakumva uburyo umutima wawe utera, ndetse bakabasha no kuba bakumva uburyo amaraso atembera mu mubiri.

Kunywa amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko iyo unyoye amazi menshi bivura uburwayi nk'impyiko n'ikibazo cyo kunyara ukababara ndetse n'ubundi burwayi bwinshi, ni byiza ko tunywa amazi ahagije ku munsi, byibura niyo wanywa litiro imwe ku munsi, biba bihagije uba uruta utayanyoye.

Umuryango ushinzwe gutabara imbabare ubinyujije mu gikorwa cyo gutanga amaraso ku barwayi bayakeneye, aho bashaka kongerera amaraso abari mu bitaro.

Umukobwa urimo urakora siporo mu cyumba cye, yashashe agatapi hasi, agakora siporo ashinze ibiganza, azamura igice cyo hejuru kugira ngo agorore ingingo.

Muri jimu ahakorerwa siporo ziyungurura amaraso, bigatuma amaraso atembera mu mubiri zikagabanya siteresi, abafite ibibazo by'umubyibuho ukabije ibiro bikagabanuka.

Iki cyatsi rero ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye, yaba ubwo mu nda, yaba uburwayi bw'inkorora, bw'ibicurane, yaba uburwayi bwo gutuma imitsi yihinamiranye irambuka. Uyu muti rero ni mwiza cyane kandi ni ingenzi mu buzima.

Uyu mugabo arimo aragaragaza uburyo kino kimera ari umuti gakondo, arahagaze afashe ku mashami y'ikimera, arimo aravuga uburyo ari umuti gakondo.

Uyu n’umuti ukozwe mu bimera gakondo uvura indwara y’amibe, indwara y'inzoka cyane yazengereje abanyarwanda benshi. Uyu muti rero ukungahaye ku bitabire bibasha guhangana n'ikibazo cy'uburwayi bwa amibe.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ikozwe mu bimera, ivura uburwayi butandukanye, hari ikozwe mu gikakarubamba, hari ikozwe muri tungurusumu, tangawize ndetse n'ibindi.

Uyu ni umuti umeze nk'amavuta, ukoze ubwoko bw'igikakarubamba, ni shampoo, ikoreshwa mu kuvura indwara zo mu musatsi: kuvura imvuvu, ibihushi, ndetse n'umusatsi upfuka n'abantu bagira ikibazo cyo kuzana uruhara bakiri bato, iyishampoo urayikaraba, ugasigamo maze bigakira.

Umuti gakondo witwa isogo uvura indwara zitandukanye ndetse ugafasha n'umubiri gukora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri. Isogo abenshi bararirya, bakariteka nk'uteka dodo. Uyu muti rero udufasha mu kugira ubuzima buzira umuze.

Uruhurirane rw'imiti gakondo turabonamo tungurusumu, tukabonamo atangawizi, tukabonamo amakara, tukabonamo ibishyimbo, umuceri, ibi rero ni ingirakamaro kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi, harimo ibiribwa, ariko byose nubwo biribwa biradufasha mu mibereho ya buri munsi.

Aha turahabona urwunge rw'imiti itandukanye irafunze kandi neza ariko yamaze gutunganywa, turabona ivura uburwayi butandukanye yaba ubw'impyiko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye kokerwa n'ibindi.

Arowe bari ni umuti uri mu icupa mubona ahangaha ukungahaye kuri vitamini, ikindi utuma uruhu rumera neza ku bantu barwaye ibishishi ndetse n'izindi ndwara z'uruhu.

Uyu ni umuti ukozwe mu bimera bitandukanye, aho uvura uburwayi butandukanye, nko kurangiza vuba, gucika intege, ingaruka zo kwikinisha ndetse ikanakumira indwara zifata porositate. Uyu muti rero ni ingenzi cyane, kandi ugira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aya ni amavuta akozwe mu kimera cy'igikakarubamba akaba avura uburwayi butandukanye, yaba cyane cyane ubw'uruhu, akavura ibishishi ku mubiri, akavura ise, agatuma uruhu rumera neza cyane. Aya mavuta aho waba uri hose mu gihugu wayabona.

Iri ni icupa ririmo umuti gakondo ukomoka ku gihingwa cyitwa umuravumba, ukaba ari umuti uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora hakabamo ibicurane, umuravumba ukaba uvura komorora ibisebe ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Ibinini bikozwe mu bwoko bw'ubumera, bigurishwa cyangwa bigatangwa na aliance kampani ikorera mu Mujyi wa Kigali, ibinini bivura uburwayi butandukanye.

Icyatsi ni umuti gakondo ukungahaye cyane mu kuvura indwara nk'ibisebe, umuntu wakomeretse uravuta ukamusigaho ,ubundi igisebe kikomoka vuba kigakira bitagoranye, uyu muti rero ku batawuzi bawita incebere.

Iki ni ikimera cyitwa umuravumba, kivura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse kikomora n'ibisebe. Umuravumba uvura kandi ibishishi ku mubiri.

Uyu ni umuti ukozwe mu gikakarubamba udufasha kuvura uburwayi bwo mu musatsi yaba imvuvu, ibihushi, uruhara ndetse n'abantu bafite ubwoko bw'umusatsi upfuka. Iyi arowe jojoba ni shapo nziza cyane ikoze mu gihingwa cy'ikakarubamba.

Aha hari uruhurirane rw'imiti ya kinyarwanda, ariko icy'ingenzi ni igisura, kivura uburwayi yaba umuvuduko, kikavura igifu, kikavura uburwayi bwo mu nda ndetse n'umwijima.

Uyu muti ukozwe mu kimera bita gutwi kumwe gikungahaye ku ntungamubiri zituma ubwonko bw'umuntu bukora neza, ukagabanya siteresi mu mubiri ndetse no mu bwonko, uyu muti rero ni mwiza cyane kuko utuma umuntu aba konsantere mu kintu arimo arakora.

Iki cyatsi ni umuti ubasha kuvura indwara higanjemo inzoka cyanecyane ukavura n'umutwe mugihe ufashe amababi ukayashyira mu mazi ashyushye amazi warangiza yamara gukonja mo gake ugashyira mu mutwe ugakaraba.

Uyu ni umuti uri mu gacupa gafite indiba yenda gusa n'umweru, kakaba gafite umufuniko w'umukara, uyu muti uvura uburwayi butandukanye.

Uruhurirane rw'imiti gakondo, ariko iyi miti ikaba ifite n'indabo. Aho inzuki ziza guhova, zamara guhova zikajya kurema ubuki mu mizinga. Ni byiza ko tuzitaho kandi tukazikorera neza.

Uruhurirane rw'imiti gakondo itandukanye yiganjemo ibiribwa; tungurusumu, inyanya, ibitunguru, karoti, ubunyobwa ndetse na tangawize, ibi bikaba ari imiti ariko bikaba n'ibiribwa ifunguro rya buri munsi.

Iyi ni amajyane akoze mu ikawa, aya majyane ni ingenzi cyane agira uruhare mu kongera imbaraga umubiri akagabanya siteresi, akarinda ibitotsi, ndetse agira umumaro no mu bundi buryo butandukanye.

Ikinyobwa ndetse n'umuti ukozwe mu kimera cy'igikakarubamba ufasha ndetse ukongerera n'umubiri imbaraga. Ikinyobwa rero urakinywa, deni umubiri ugakora neza, ndetse bikaba byavura n'uburwayi butandukanye mu mubiri.

Uruhurirane rw'imiti ikoze mu bimera nk'igikakarubamba, ifasha mu kuvura uburwayi butandukanye, harimo isabune, hakabamo n'amavuta yo kwisiga, iyi miti rero ivura indwara z'uruhu mu gihe wayisize yaba ahantu ufite ibishishi ku ruhu maze bigakira.

Imiti gakondo itandukanye yagiye ikorwa mu mbuto dusangamo nk'inanasi, imineke, imyembe, ikawa ndetse n'ibindi, iyi miti rero ikaba ikungahaye mu kuvura uburwayi butandukanye.

Icyatsi cyangwa umuti gakondo twita umuravumba uvura uburwayi butandukanye harimo inzoka, komora inkomere, uvura inkorora, ibicurane, umuravumba ndetse uvura n'ubundi burwayi butandukanye.

Umuravumba umuti gakondo uvura uburwayi butandukanye, ibicurane, inkorora, umuravumba ukavura inzoka, ukavura ibisebe ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Ibi ni ibikombe bibiri bitandukanye birimo imiti itandukanye. Igikombe cya mbere kirimo umuravumba, amababi y'umaravumba bamaze gushyira mu mazi ashyushye amazi agata isura, igikombe cya kabiri kirimo umuti tuzi nka te, nayo barambitse mu mazi ashyushye.

Agasekuru gato twifashisha mu gusya tungurusumu ubunyobwa mu gihe tugiye guteka, ndetse na tangawize mu buryo bwihuse kandi bwa gakondo, agasekuru rero ni ingirakamaro cyane buri wese ni ngombwa ko agatunga mu rugo i wiwe.

Aya ni amacupa atatu arimo imiti itandukanye, ikozwe mu bimera bitandukanye, akaba avura uburwayi bugiye butandukanye.

Iki ni igihingwa cy'umuravumba, aho kiri mu bihoho, bashaka kucyagura ngo batere n'ahandi kugira ngo umuravumba uboneke ahantu henshi cyane, kuko ni umuti kandi uvura indwara nyinshi.

Aya ni amavuta akoze mu maronje, aya mavuta ni meza cyane atuma uruhu rumera neza kandi ni ingenzi cyane. Amaze gutunganywa mu maronje ashyirwa ku isoko, abaturage bose ndetse n'abayakeneye bakayabona.

Uyu ni umuti wifashishwa mu koza amenyo, uyu muti ni mwiza cyane, utuma amenyo acya akaba umweru agasa neza, ugatuma amenyo akomera, wujuje ubuziranenge cyane kandi ukozwe mu miti gakondo.

Iki kimera ni umuti gakondo, aho umuntu afata aya mababi akayarambika mu mazi ashyushye agasa n'ayorohera, yarangiza akagenda yikanda ahantu yavunitse, bityo amagufa cyangwa imitsi bikugana.